Ubuhinzi ni bwiza cyane cyane iyo duhinze dukoresheje inyongeramusaruro, usanga nk'ibigori byahingishijwe inyongeramusaruro byeze bimeze neza bigatanga umusaruro uhagije, abantu bosa rero bagakwiye guhinga bakoresheje inyongeramusaruro ariyo fumbire.

Ubuhinzi bw'imboga ni byiza cyane usanga abantu barahinze imboga barangiza bakazitera umuti bakoresheje ipombo kugira ngo ibashe kwica udukoko dushobora kuzica tugatuma zitera neza. Rero imboga ni nziza cyane no kuzitera umuti ni byiza cyane kuko bituma zongera umusaruro.

Roketi ni umuti mwiza cyane wifashishwa mu gutera mu kwica udusimba. Tuwutera mu birarayi bimaze kumera tugira ngo udusimba tubashe kuva aho, twe kwica ibirayi. Roketi ni umuti mwiza cyane abantu bahinga iburayi barawukunda.

Ibyuzi ni byiza cyane, aho usanga abantu baracukuye ibyuzi kugira ngo hakuriremo amafi cyangwa se inkuba ,bityo igihe cyagera bakazajya kuzikuramo, izo bororeyemo zimaze gukura bakazirya cyangwa se bakazigurisha. Ibyuzi bakunda kubyubaka ahantu hakikijwe n'amashyamba kugira ngo hazabone imvura.

Indagara ni udusamaki dutoya, twororerwa mu mazi, dukurira mu kiyaga no mu byuzi. Abantu baradukunda rero, kuko turaryoha, turyoshya isosi. Kudushyira mu biryo turaryoha cyane. Ubwato, ubwato nibwo bagenderamo barimo kuturoba, bakaroba bakoresheje ururobo.

Isamake ni nziza cyane ikunzwe na buri umwe wese, zikunda kuboneka mu biyaga ndetse no mu byuzi, aho usanga abantu bajya kuroba, bakaroba isamake bakaza kuzigurisha zikabaha amafaranga no kuzirya ni nziza, umuntu wariye isamake agira ubuzima bwiza cyane.

Inyama z'amafi ziraryoha cyane, amafi ni inyamaswa ziba mu mazi ariko ziribwa. Zigira inyama nziza cyane, inyama y'ifi rero iraryoha ari ukuyiteka mu mavuta cyangwa kuyiteka mu mazi ukayitogosa. Igira isosi nziza cyane abantu benshi barayikunda.

Amafi ni amatungo aba mu nyanja, cyangwa se mu kiyaga. Yororerwa mu kiyaga, abantu barayakunda cyane. Amafi agira umumaro munini ku buzima bwa muntu. Ifii irinda, nayo iri mu bubaka umubiri.

Isamake cyangwa se amafi, ni inyamaswa ziba mu mazi ariko ziribwa, kandi zikundwa n'abantu benshi, kuko ziraryoha zigira umufa uryoshye cyane.

Ikiyaga n'ihantu haba hari amazi menshi cyane, hakunda kuba harimo amafi, ayo mafi cyangwa se amasamake abantu bajya kuyaroba bakayarya, amafi araryoha cyane, ikiyaga kiba kirihasi mu musozi mo hagati aho urebye nabi cyanagutwara.

Ibishingirizo ni ibiti bakokora by'urubingo se ,cyangwa by'ibigorigori biba bivuye mu bigori byahinzwe ,hagamijwe kugira ngo bazabishingirize ibishyimbo igihe bizaba bimaze kumera, ibishingirizo rero birakundwa cyane kuko biboneka ku buryo bworoshye, inzu rero babyegeka ahantu bitari bunyagirwe nko munsi y'igiti cyangwa ku nzu.

Karoti ni igihingwa cyiza cyane kerera mu butaka, kuzihinga urazinyanyagiza ahantu hari ubutaka bwiza hera karoti, kandi karoti ziraryoha cyane ziraryoha cyane zitanga amafaranga, karoti turazikunda cyane kuko zitanga umusaruro ku bana n'abakuru, ziryoha no kuziteka mu biryo.

Intusi ni ibiti byiza cyane, bikunzwe gutegwa mu ishyamba, bigakoreshwa mu gihe cyo kubaka iyo bari kubaka inzu basakara hejuru babanza gutegaho ibiti, bikifashishwa mbere yuko bashyiraho isakaro.

Ihene n'itungo ryiza cyane abantu barayikunda. Inyama z'ihene ziraryoha, aho usanga amahene anakoreshwa nk'umuti ubwo nukuvuga ngo ihene itanga n'umuti kandi ihene zitanga inyama nziza cyane.

Ingano ni igihingwa cyiza cyane ngandurarugo. Ingano ni nziza zitanga igikoma ku bana, zigatanga umutsima w'ingano, kandi ingano zizana amafaranga mu rugo. Umuntu wahinze ingano, nta bwo yicwa n'ubukene, kuko ashobora kubonamo ibiryo by'abana, akabatekera umutsima, akabatekera igikoma, yashaka akajya no kugurisha akabona amafaranga.

Intama ni itumva ryiza cyane, baryorora mu giturage ahantu hose, rifite umumaro, ritanga inyama, rigatanga n'agafumbire, ku bantu borora intama rero zibafitiye umumaro munini. Insina na yo ni igihingwa gihingwa mu giturage, kigatanga ibitoki byo kurya.

Ibiyote cyangwa se ibihaza ni imboga abantu benshi bakunze gutera ku rugo, izo mboga z'ibihaza ziraryoha cyane, umuntu waziriye agira ubuzima bwiza, kandi umuryango ufite ikiyote ku rugo, ntabwo ujya wicwa n'inzara, zera ibihaza bazirya ibihaza, bakazirya n'amababi zitanga n'amafaranga.

Uburo ni igihingwa cyiza cyane, abantu barazikunda imbuto z'uburo kuko uburo iyo bweze buvamo igikoma, bukagemurwa hirya no hino mu masoko, uburo butanga amafaranga, ni ubukungu bw'Igihugu.

Igihaza cyangwa se ibiyote, ni ibihaza bihingwa ku rugo abantu benshi barabikunda, kuko usanga buri rugo ruhinzeho ikiyote, cyangwa se igihaza. Igihaza rero gikora imboga nziza cyane ziryoshye kandi zigatunga abana.

Isombe ni nziza cyane yongera amaraso. Isombe barayisekura barangiza bakayiteka, abantu bateka isombe baba bafite ubuzima bwiza, ni imboga nziza cyane abantu barazikunda. Abantu bajya bateka isombe usanga bameze neza cyane ubuzima bwabo buhora ari bwiza, abantu bakunda isombe.

Imigozi ni igihingwa gihingwa mu giturage, abantu benshi bakunda kuyihinga kuko yera ibijumba, imigozi y'ibijumba iba ikunzwe mu giturage, kuko ibijumba birera abana kandi abana barabikunda.

Avoka ni igiti cyiza cyane cyera imbuto ziryoha, zivamo amafaranga. Avoka iyo zeze neza barazitara bakazirya, zitunga imiryango kandi zigatanga n'ubukungu bw'igihugu, kuko iyo bazijyanye mu nganda zivamo ibintu bitandukanye. Voka ni nziza cyane.

Insina ni igihingwa cyiza cyane gikundwa guhingwa ku rugo, aho usanga insina zera ibitoki. Abantu barazikunda insina zera ibitoki byo kurya, ndetse hari n'izera ibitoki byo gukorana inzoga. Insina ni nziza cyane kuko itanga amafaranga, igatanga n'ibyo kurya mu rugo.

Ibinyomoro ni ibihingwa ngandurabukungu, aho usanga ikinyomoro ari kiza cyane, ni igihingwa gikundwa guhingwa mu cyaro. Ahantu hose ikinyomoro kirahahingwa. Ikinyomoro ni kiza kukigaburira abana ndetse n'abakuru kirabatunga, cyongera amaraso mu mubiri.

ikigorigori ni ahantutu haba harahinzwe ibigori, ariko bamaze kubisarura ugasanga umurima urimo ibiti by'ibigorigori, kubera ko ibigori baba bamaze kubikuramo. Rero uyu murima uba ukunzwe cyane kuko ushobora kuba wawuhingamo ibijumba cyangwa se ibirayi, uba uwutegura kugira ngo uwuihingemo indi myaka itandukanye.

Amavoka araryoha cyane ni imbuto nziza zikunzwe na buri umwe wese, aho usanga buri rugo rufite igiti cya voka, amavoka rero ni meza azana amafaranga mu rugo, kandi umwana wariye avoka agira ubuzima bwiza.

Ubuhinzi ni bwiza cyane, aho usanga abantu bahinga ibigori cyangwa ibirayi, bakabihinga bakoresheje inyongeramusaruro, kugira ngo bazabone umusaruro uhagije, umuryango wahinze rero ibigori cyangwa ibirayi, baba bameze neza cyane kuko nta nzara bahura nayo.

Umuceri ni igihingwa cyiza cyane abantu bakunda, abantu bakunda kurya umuceri, umuceri uraryoha cyane kandi umuceri uzana amafaranga, ni igihingwa ngandurabukungu, urugo rwahinze umuceri ruba rukize, kandi inganda na zo zikora umuceri ziba ziteye imbere, zikazana amafaranga mu gihugu.

Igitoki ni kiza cyane abantu baragikunda ,cyane igitoki k'inkashi cyangwa igitoki k'inyamunyu biba ibitoki bitandukanye, ariko inyamunyu ni yo iryoha cyane, inyamunyu igira isosi abantu benshi bakunda kuyitekamo ubunyobwa bikaryoha cyane, inkashi bakunze kuyihinaga bakayitekamo ibishyimbo cyangwa se amajeri ,maze bakabihinaga, biba biryoshye cyane abantu benshi barabikunda.

Imbuto ni nziza cyane, abantu barazikunda. Watameroni ifasha abantu mu gushakisha amazi mu mubiri, abantu bayinywa, bagira ubuzima bwiza, baba bafite amazi mu mubiri, kandi ibavura indwara zitandukanye. Amaronji nayo ni imbuto zikundwa cyane, ndetse n'avoka, zikundwa cyane n'abantu benshi batandukanye.

Imyembe ni urubuto rwiza cyane, rukundwa guhingwa ku rugo, abantu bahinga imyembe, baba bame neza, kuko imyembe iraryoha cyane, abantu bayihinga barayirya, kandi no ku isoko itanga amafaranga.

Icyayi ni igihingwa ngandurabukungu gihingwa mu bice bitandukanye by'igihugu, abantu baragikunda, iyo bagisoroma bagisoromera mu bitebo, barangiza bakakijyana mu nganda, bagakoramo ibikwiriye kugira ngo abantu babone uko bakinywa.

Icyayi ni igihingwa ngandurabukungu kiboneka ahantu hake hashoboka bakunda kugihinga mu bishanga. Abantu bagisoroma rero, baba bambaye udutebo mu mugongo basoromeraramo. Ikindi kandi icyayi bakakijyana ku nganda, akaba arizo zijya kugitunganya gisoromwa n'abantu benshi batandukanye.

Pavro ni igihingwa cyiza cyane, gikundwa n'abantu benshi, pavro kuzisekura nko mu isombe, isombe iraryoha cyane, kandi pavro zitanga amafaranga, ni nziza cyane.

Amashu ni igihingwa ngandurarugo, aho usanga abantu bayakunda, ni imboga nziza cyane ziraryoha kuzitekamo ifiriti, yaba kuzigurisha zizana amafaranga, abantu bakunda amashu kuko no kwera nta bwo atinda, ahantu hose bayahinga.

Ubucuruzi bushingiye ku byo kurya abantu benshi barabukunda, cyane gucuruza ibirayi, imyumbati n'ibishyimbo, wajya kubihaha ukabiteka ukabirya, wumva biryoshye cyane, birajyana biba biryoshye.

Inyanya ni ibibwa byiza cyane, abantu bakunda kuzitegura iyo bari gukaranga, iyo umuntu ashaka kurya ibiryo biryoshye cyane, akunda gukoresha inyanya, na none waba ushaka gukaranga nk'agafiriti, akanyama, rushe yo tuyikoresha iyo turi kwarura ifiriti n'inyama.

Karoti ni igihingwa cyiza cyane, ni imboga zikunda guhingwa ahantu hose kandi abantu bahinga karoti baba bameze neza, kuko ni imboga ziryoha. Amagi ni meza cyane abantu borora inkoko nibo bakunze kubona amagi kandi aba aryoshye.

Pavuro ni ikirungo gikoreshwa cyane cyane iyo batetse inyama n’isombe. Pavuro ni ikirungo gikoreshwa mu nyama n’isombe, kigahumuza ibiryo. Iyi pavuro rero, zikunda guhingwa ahantu h'igishanga na hantu hari ubutaka bwiza, ugakoresha inyongeramusaruro kugira ngo ubone umusaruro uhagije.

Urusenda ni rwiza cyane rukunze kwifashishwa n'abantu benshi batandukanye. Ibiryo biririmo urusenda biba biryoshye cyane, kandi urusenda ruzana amafaranga kucuruza mu isoko, barukoresha mu birungo bitandukanye. Urusenda ni ikirungo rero gikoreshwa n'abantu benshi.

Ibitunguru ni ibihingwa byiza cyane bitanga umusaruro w'amafaranga, kandi ibiryo byagiyemo igitunguru biba bihumura neza biryoshye, igitunguru ni cyiza cyane rero ibitunguru bitanga amafaranga mu muryango wabihinze ndetse no ku igihugu abantu babicuruje bagatanga ku musaruro igihugu kigatera imbere.

Igihingwa k'ibigori ni kiza cyane kigira ingirakamaro ku buzima bwa muntu, tugakuraho ibyatsi tukabiha amatungo, kandi ikigori dutangira kukirya kitari cyera neza tukabyotsa ibigori byokeje biraryoha cyane. Abana n'abagore bakunda ibigori no kubikota bakabirya ari na bibisi. Ibigori ni byiza cyane.

Imboga ni igihingwa cyiza cyane, ngandurarugo zihingwa ku ngo ndetse n'ahandi nko mu bishanga. bimboga iyo z'ihingwa rero hakoreshwa inyongeramusaruro na zo kugira ngo zitange umusaruro. Imboga ziraryoha rero kuzisoroma ukazishyira mu bishyimbo, mugateka, utuboga tumeze neza, ukarisha nk'imitsima cyangwa ukarisha ibijumba, kandi imboga zitanga amafaranga iyo uzijyanye mu isoko.

Ingurube ni itungo ryiza cyane ryororwa mu rugo kandi rikundwa n'abantu benshi kuko rikura vuba, ingurube rero abantu bayoroye ntabwo babura ibyo kurya, kuko irya ibyo ibonye byose kandi ikajya no gutora.

Ubuhinzi ni bwiza cyane, umuntu wahinze ibimera mu gihe cy'izuba bakunda gufuhira. Bagashyiramo amazi kugira ngo ubutaka bworohe, noneho imyaka ibashe gukura neza ifite ububobere.

Indimu ni urubuto rwiza cyane abantu bararukunda, ni umuti mwiza abantu bakunda kururya, cyane cyane iyo barwaye, abantu barwaye bakunda gukoresha indimu nk'umuti, inkorora cyane cyane.

Ingano ni gihingwa cyiza cyane, abantu benshi barazikunda kubera ko zituma tubona umutsima wo kurya, tukanywa n'igikoma, abantu bahinga ingano baba bamerewe neza ku bintu bijyanye no kubona igikoma, bumva baguwe neza, ingano zitera imbaraga zizana n'amafaranga ku bantu bazihinga.

Ikinazo ni ahantu binariza imbuto zitandukanye, noneho urugemwe bakarushyira mu gihoho. Abaturage bakazaza gukuraho izo gutera. Aha hakunze na ho kuba hari abantu baza kugura izo gutera, ingemwe zo gutera. ndetse n'abarimo kuzishyira mu bihoho. Na zo bazikoreshamo inyongeramusaruro kugira ngo ingemwe zizamuke zimeze neza mu gihoho.

Ikawa ni nziza cyane tuyikoresha tuywa icyayi, kandi ikawa ni igihingwa giteza imbere igihugu cyane. Abantu bahinga ikawa rero babona umusaruro uvuye ku ikawa mwinshi cyane, akazohereza mu mahanga, n'igihugu kikaboneraho umusaruro uvuye ku bantu bahinga ikawa.

Karoti, inyanya n'indimu ibitunguru ni ibiribwa byiza cyane, abantu bakunda birwanya indwara mu mubiri wacu abantu bahinga inyanya rero usanga bameze neza, bafite amafaranga n'abantu bahinga karoti ntabwo bajya babura imboga, ndetse ibitunguru nabyo byifashishwa mu guhumuza ibiryo.

Voka ni igiti cyiza cyane, cyera imbuto ziryoha kandi zifite intungamubiri ku bantu buri rugo usanga ruhinzeho igiti cy'avoka kandi zinjiza amafaranga zikanaribwa bakana zigurisha.

Amamera ni amasaka baba barinitse mu mazi, bamara kuyinika bagashyiramo ivu, agahinduka umukara, noneho yamera, bakayanika, akuma, amamera bayakoramo ikigage cyangwa se ubushera.

Imyumbati ni igigwa cyiza cyane, abantu barayikunda, bayikundira ko ihaza, iyo wayitetse , ukayiteka ku bishyimbo, biraryoha cyane abanaa bakaba baguwe neza, bakayirya, bagahaga bakumva bameze neza.

Soya ni nziza cyane zirakunzwe cyane zihingwa ahantu hakunze kuba ubushyuhe. Abantu bahinga soya rero babona amafaranga aturutse ku buhinzi bwa soya. Ni byiza kuzihingisha inyongeramusaruro kugira umusaruro wiyongere kandi soya mu gikoma ziraryoha cyane.

Inyanya ni igihingwa cyiza cyane gikoreshwa mu gutukuza ibiryo no gukora isosi. Umuntu wahinze inyanya rero arya ibiryo bisa neza cyane mu maso. Agakoresha inyongeramusaruro kugira umusaruro uboneke ari mwinshi kandi inyanya kuzijyana ku isoko byinjiza amafaranga. Umuryango uhinga inyanya rero nta bukene ahura na bwo.

Avoka ni urubuto rwiza cyane abantu bararukunda; voka iraryoha cyane kandi voka ni ingirakamaro ku mubiri wa muntu, abantu bakunda voka baba bameze neza, avoka ifite umumaro munini cyane, kuko voka bayikoragamo ibintu byinshi bitandukanye umuntu yifashisha n' amasabune bayakora muri voka.

Ibirayi ni igihingwa cyiza cyane gikundwa na buri umwe wese. Kubihinga dukoresha inyongeramusaruro, kugira ngo bikure cyane kandi bitange umusaruro uhagije. Ibirayi ni byiza rero bitanga amafaranga mu muryango ubifite, kandi umuryango ufite ibirayi abana ntabwo bicwa n'inzara.

Ibishyimbo ni igihingwa ngandurarugo, ndetse cyaba na ngandurabukungu, kuko usanga ibishyimbo ari byiza cyane, bikundwa mu muryango wahinze ibishyimbo, usanga ubayeho neza, kuko utangira ury'umushogororo, intonore, byanera bakarya ibyumye, ibishyimbo ni byiza byiza cyane, usanga ababihinga bakabirya.

Amajeri ni ibyo kurya bikunzwe cyane bikundwa n'abantu bose. Abantu bahinga amajeri rero mu gihe yeze, usanga bameze neza, bakayatonora, bamara kuyatonora bagashyira mu isafuriya bagateka. Bagakubitamo ibirayi cyangwa se igitoki, biba biryoshye cyane. Rero kuyahinga ni ugukoresha inyongeramusaruro kugira ngo umusaruro uboneke ari mwinshi.

Imyumbati n'igihingwa cyiza cyane gikunzwe n'abantu bose, abagore n'abagabo bahinga imyumbati imiryango yabo iba ibayeho neza, umwumbati ni igiti cyera hasi mu butaka kikera ibintu bimeze nk'ibijumba, kuyirya iraryoha cyane kandi kuyihinga n'ugukoresha inyongeramusaruro kugira haboneke umusaruro uhagije, noneho bakazijyana musoko kugira ngo babone amafaranga.

Ubuhinzi ni bwiza cyane, ubuhinzi bw'ibigori ni bwiza cyane abantu barabikunda, kuko ibigori ni igihingwa cyiza cyane ku gihinga ntabwo kivunye, ugahindisha inyongeramusaruro kugira ngo uzabone umusaruro uhagije, urugo rwahinze ibiingori rero ruba rumeze neza mu kurya umutsima w'ibigori no guteka igikoma cy'umubigori bakajya n'impungure, mbese umuntu wahinze ibigori ba ame neza cyane.

Imbuto ni nziza cyane abantu bafite abana barazikunda, bakunda kujya kuzihaha ndetse bakanazitera ku rugo kugira ngo mugihe zizaba zeze zizabafashe gutunga abana bari kwiga kurya.

Inka ni nziza cyane, abantu bakunda korora amatungo cyane cyane itungo ry'inka ni itungo rigaragaza ubukungu mu rugo umugabo cyangwa se urugo ruririmo inka ruba rumeze neza kuko ntirwagwaza bwaki, ntirwabura ifumbire, abana banywa amata, inyama zikaboneka n'ifumbire rikaboboneka. Abantu bafite inka rero baba bameze neza cyane.

Indimu ni urubuto rwiza cyane rukunzwe n'abantu benshi, cyane ku bantu bafite abana bakunda indimu kuko ni umuti zivura abana, kuzirya zigabanya umubyibuho ukabije zigatwika ibinure, indimu kuyishyira mu cyayi, icyayi kiba kimeze neza, gihumura neza, kandi indimu zitanga amafaranga. Umuntu wariye indimu agira ubuzima bwiza.

Ibirayi ni igihingwa cyiza cyane gikunze guhingwa ahantu hi igishanga no mu misozi rimwe na rimwe, ibirayi rero usanga bikunda guhingwa hakoreshejwe inyongeramusaruro n'ifumbire ryiza, kugira umuntu azabashe kubona umusaruro, ibirayi rero ni byiza kubirya biraryoha ukabifuhirira igihe cy'izuba urafuhire ugashiramo amazi.

Ikinyomoro ni gihingwa cyiza cyane, abantu benshi baragikunda, cyongera amaraso, abana batoya bakunda kukirya, ndetse n'abandi bose bumva bafite ubuzima butameze neza n'abafite ubuzima neza, barakirya. Ikinyomoro barakinyunya, bakongera ubuzima bwabo bukaba bwiza.

Ivoka n'imbuto nziza cyane zikunzwe na buri wese. Aho usanga buri rugo rufite igiti cy'avoka ziraryoha cyane, zitanga amafaranga zivamo ibikoresho bitandukanye. Umuntu wariye avoka aba afite ubuzima bwiza. Umuneke nawo ni mwiza uva mu bitoki cyane, umuneke wa fiya uraryoha cyane. Inyanya nazo ni nziza kuzishyira mu biryo biratukura ugasanga bisa neza.

Abantu bahinga ibirayi bajya babaho neza, kuko iyo baje bagiye gukura ibirayi, iyo tuba turi gukura ibirayi twumva tumeze neza cyane, kuko umuntu wariye ibirayi ajya yumva akomeye, agakomera cyane. Nk'umuntu wariye ibirayi

Amashu ni imboga nziza cyane zikundwa guhingwa ahantu henshi hatandukanye, amashu rero akundwa guhingwa hakoreshejwe inyongeramusaruro kugira ngo haboneke umusaruro uhagije, araryoha cyane iyo wayatetse mu mavuta, araryoha kandi mu bigo by'amashuri, bakunda kurya imboga z'amashu bashize mu bishyimbo kuko aratubuka.

Inkwavu ni itungo rigufi ryiza cyane rikunda kororwa n'abana cyane, bagira ngo bazashakemo amakayi. Inkwavu rero abantu bazoroye ntabwo bajya bagira ipfa ry'inyama, iyo zikuze barazirya cyangwa se bakazigurisha bakabona amafaranga. Umuntu woroye inkwavu rero azirinda urume akazubakira ahantu zizaba mu kirere.

Amagi ni ingirakamaro ku buzima bwa muntu atwubakira umubiri, umuntu urya amagi rero aba agaragara agira uruhu rwiza. Abana bakunda kugaburirwa amagi n'abantu bakuru bakagaburirwa amagi, dukunda inkoko rero kubera ko ziduha amagi.

Amashyu cyangwa se amapica ni iboga nziza cyane zikunda guhingwa ahantu hose hatandukanye. Mu rugo rero amashu cyangwa se amapica barayakunda kuko, ni ibiryo bitagorana guteka uzigereka ku turayi, ukarya cyangwa ukaziteka mu tuvuta. Kuzijyana no ku isoko zitanga amafaranga rero kuzihinga ni ugukoresha inyongeramusaruro kugira ngo haboneke umusaruro uhagije.

Imyumbati ni igihingwa cyiza cyane, abantu baragikunda kuko gitunga abana. Imyumbati rero yifashishwa mu kuyirya itetse cyangwa se kuyikuramo ubugari bakaburisha isosi.

Ibiribwa cyane cyane nk'imbuto ni byiza cyane biba bikunzwe, amapera abantu barayakunda araryoha, imyembe nayo irakunzwe cyane, abantu bafite imyembe baba bameze neza.

Inyama ni nziza cyane abantu benshi barazikunda kuziteka neza, barangiza bakazikaranga bagashyiramo n'amata. Abantu bakunda inyama zikaranze n'inyanya, n'amavuta. Ziba ziryoshye zifite n'isosi nziza cyane, abantu benshi barazikunda.

Inzuzi ni imboga nziza cyane, zikunze guterwa ahantu hatandukanye. Zikera ibihaza, ibihaza bakabirya. Umuntu wari igihaza cyoroshya mu nda, aba ameze neza. Kiraryoha cyane kandi bihaza. Ni imboga nziza, abana n’abagore, abagabo, abantu bose barabikunda.

Imyumbati ni igihingwa cyiza cyane, ikunze guhingwa bakora ibivunde bakayikuramo ubugari, ubugara abantu benshi barabukunda rero buva ku myumbati y'imigandika iyo myumbati bayita rugatidika, niyo ikunda kuvamoriri numutsima rero abantu bakunda kurya bafite isosi.

Amateke araryoha cyane, ni igihingwa ngandurarugo. Bakunda kuyahinga mu misozi itandukanye, mu rutoki ahantu hose hera amateke. Amateke rero araryoha cyane, abantu bayateka barayakunda cyane.

Inyanya ni igihingwa cyiza cyane, gihingwa ahantu hatandukanye, inyanya rero zifite umumaro mu bukungu bw'urugo, zifashishwa mu gukaranga ibiryo. Ibiryo bikaranzwemo inyanya, biraryoha cyane. Abantu benshi bakunda inyanya.

Inka ni itungo ryiza cyane rikundwa n'abantu bose, umuryango ufite inka uba ufite iterambere ry'ubukire, kandi inka iyo bayijyanye mu rwuri ikarisha, iyo imaze guhaga, irabyagira, ikibera aho ngaho.

Imbuto ni nziza cyane zifite akamaro ku mubiri w'umuntu, pome ziraryoha cyane kandi zongera amaraso mu mubiri, indimu nazo ni umuti ukomeye cyane ku mubiri w'umuntu, inyanya ziryoshya ibiryo, ibinyomoro byongera amaraso...

Imyumbati ni igihingwa cyiza cyane gikundwa n'abantu bose. Umuntu wariye imyumbati agira ubuzima bwiza. Imyumbati yera ahantu henshi hatandukanye. Abantu bayihinga rero bagomba gukoresha inyongeramusaruro, kugira ngo umusaruro ubashe kwiyongera.

Imboga ni igihingwa gihingwa cyane, umuntu uhinga umuhinzi akoresha isuka kandi aba afite imbaraga, akazinduka kare cyane akajya guhinga cyangwa se kuhira, kuhira imboga cyangwa se ibihingwa abyongerera itaka ngo bikure neza.

Ibijumba biraryoha, ibijumba ni ingirakamaro ku bana n'abakuru. Abantu babihinga baba bameze neza. Bajya gushaka imogozi yo guhinga ibijumba, nuko iba ihenze naho ubundi ibijuma biraryoha cyane pe biraryoha.

Ibigori ni byiza cyane kucyotsa kiraryoha, noneho iyo ucyokeje ku mbabura kiba kiryoshye cyane, abantu bakunda ibigori rero bakunda no kubihinga, kuko utabihinze ntaho wabikura. Ibigori bitanga umusaruro ku bana no ku bakuru, babinwamo igikoma bakabiryamo n'umutsima.

Amateke ni igihingwa cyiza cyane gikundwa na buri umwe wese, aho usanga amateke ari meza kuyateka ukayashyira ku bishyimbo araryoha cyane, kandi no kuyagurisha azana amafaranga.

Ibirayi ni igihingwa cyiza cyane gikunzwe n'abantu bose abantu batandukanye, usanga hari urujya n'uruza rw'abantu, aho bahingira i birayi byeze, bashaka kubifuhira guteramo umuti bagakoresha inyongeramusaruro kugira ngo haboneke umusaruro uhagije.

Ibirayi ni igihingwa cyiza cyane, gikunzwe n'abantu benshi, bikunda guhingwa hakoreshejwe inyongeramusaruro, kugira ngo haboneke umusaruro uhagije. Ibirayi rero umuryango wabihinze ntubura ibyo kurya, kandi ntubura amafaranga, kuko babijyana mu isoko bakabona amafaranga ibindi bakabirya.

Ubuhinzi ni bwiza cyane aho usanga abantu bahinga ibintu bitandukanye mu ndinganire, guhinga indinganire ni uguhinga ahantu hatabasha kuba isuri, ugasanga abantu bakoresha ifumbire nyongeramusaruro kugira ngo babashe kubona umusaruro uhagije.

Ibirayi ni igihingwa cyiza cyane, gikundwa n'abantu benshi kuko byera ku buryo bworoshye, ibirayi iyo babihinga rero bakoresha inyongeramusaruro kugira ngo babone umusaruro uhagije, umuryango wahinze ibirayi rero uba umeze neza, kuko ntabwo babura ibyo kujya mu rugo, babijyana mu isoko bakabona amafaranga abahesha ibyo bakeneye.

Ubuhinzi ni bwiza cyane, cyane ubuhinzi bw'ibirayi. Guhinga imbuto y'ibirayi, muhinga ahantu heza cyane mwaciye imiferege yo gushyimo ibirayi, mukagenda mupima santimetero bitewe naho ikirayi n'ikindi biri butandukanire. Haba hari urujya n'uruza rero rw'abagabo n'abagore baje guhinga ibirayi.

Isoko ni ibikorwaremezo byinjiza amafaranga mu gihugu, aho abantu batandukanye bagenda bagacuruza ubucuruzi butandukanye bakwinjiza imisoro n'amahoro ku gihugu. Abaturage twese dukunda amasoko kuko ariho duhahira ibyo kurya tuba dukeneye, tujya mu isoko tugiye guhaha ibintu bitandukanye dukenera.

Imyembe ni imbuto zikundwa cyane n'abana batoya ndetse n'abakuru. Imyembe rero iraryoha kandi abantu bayihinga ni igiti gitinda kwera ariko igihe kereye ntabwo gicika vuba, nta nyongeramusaruro gikeneye kiba kibereye aho. Urusenda narwo ni ikirungo gikoreshwa n'abagabo cyane cyane nibo bagikunda abana rero bakunda imyembe.

Ibiribwa ni byiza cyane ibiribwa by'inyanya, intoryi, karoti ni nziza cyane zituma amaso abona neza, intoryi na zo ni nziza cyane inyanya zo ni akarusho, kuko inyanya zituma abantu bamera neza bazishyira mu biryo bigatukura, amatunda ni meza cyane ku bana bari kwiga kurya, abafasha kugira ubuzima bwiza abantu bakunda ibintu by'imbuto cyane.

Soya ni igihingwa cyiza cyane, gikundwa n'abantu benshi gusa ntabwo gihingwa ahantu hose , gihingwa ahantu hatandukanye, abantu bahinga soya rero ku gikoma baba bameze neza, soya zigira igikoma cyiza cyane kandi zigira intungamubiri ku bantu bose.

Umuceri ni mwiza cyane. Abantu bawuhinga bakoresha inyongeramusaruro kugira ngo umusaruro wiyongere. Rero umuntu wariye umuceri aba yumva ameze neza. Abana bakunda umuceri ndetse n'abakuru, kuko urugo rurimo umuceri ruba ruteye imbere. Kandi umuceri uzana amafaranga. Ni igihingwa ngandurabukungu.

Ubunyobwa ni igihingwa cyiza cyane abantu baragikunda, ubunyobwa baburya ari bubisi, babukaranze ,cyangwa se bakabukoramo ifu bakazajya bayishyira mu mboga. Abantu bahinga ubunyobwa barya isosi nziza.

umuceri ni igihingwa cyiza cyane gikunzwe guhingwa mu bishanga bitandukanye. Abantu bahinga umuceri, babara abantu bameze neza bakize cyane, kuko umuceri urakunzwe cyane, abana n'abagore barawukunda, abantu wese umuntu wariye umuceri, aba yumva ameze neza. Ni ibiryo biba bigaragara neza.

Ibigori ni imbuto nziza cyane, abantu babihinga, dukoresha inyongeramusaruro mu guhinga ibigori, kugira ngo bizere bimeze neza. Ibigori ni ingirakamaro, umuntu wariye umutsima w'ibigori, uba umeze neza, aba yumva akomeye, mu gikoma cyo mu bigori, umuntu akumva ameze neza, mbese ibigori bitanga n'amafaranga ku isoko.

Soya ni igihingwa cyiza cyane gikunzwe n'abantu benshi, bakunda kuzihinga ahantu haba ubushyuhe, soya rero kuzihinga nugukoresha inyongeramusaruro kugirango ubashe kubona umusaruro uhagije, kandi soya zirahenda cyane zigira amafaranga, igikoma kirimo soya kiraryoha, abantu bahinga soya rero, abana babo nti ntibarwara igwingira kuko soya n intungamubiri nziza cyane kubana.

Ibishyimbo ni imbuto nziza cyane zikunda guhingwa mu giturage ahantu hose hatandukanye. Ibishyimbo barabihinga, ni byiza bidufitiye akamaro kanini, kuko bidutungira abana kuva tubihinze kugeza tubisaruye, tubisoroma umushogoro, tugasoroma n'intonore kugeza igihe tuzabisarurira.

Ingano ni imbuto nziza cyane zikunzwe guhingwa mu misozi, ingano rero abantu barazikunda kuko zikunda kuvamo umutsima, umutsima w'ingano uraryoha cyane, zikongera kuzibetesha hakavamo imigati, ariyo twita imbada, imbada ziraryoha cyane, ziva mu ngano. Ziraryoha cyane, imitsima y'ingano itetse mu mavuta.

Ingano ni imbuto nziza cyane abantu barazihinga abandi bakazibetesha barazibetesha bagakoramo umutsima umutsima w'ingano uraryoha cyane n'igikoma cy'ingano kiraryoha cyane ku buryo umuntu wariye ku mutsima w'ingano yumva afite imbaraga mu mubiri we akumva ari kumererwa neza. Abantu baryaga umutsima w'ingano.

Amasaka ni igihingwa cyiza cyane gikundwa guhingwa ahantu h'imibande, abantu bahinga amasaka rero baba bamezeze neza kuko banywamo igikoma, bagakoramo ikigage amasaka ni meza cyane.

Ubunyobwa ni igihingwa cyiza cyane. Abantu bakunda ubunyobwa . Buhingwa mu duce dutandukanye tw'igihugu. Usanga rero ubunyobwa buribwa. Hari abakunda kubuhekenya, n'abakomo ifu bakazajya bayishyira mu mboga , cyangwa bagakora isosi. Ubunyobwa, butanga amafaranga ku muryango wabuhinze ndetse no ku gihugu.

Ubuhunikero ni ahantu bahunika imyaka, ushobora guhunika ibigori ukajya kubimanika ahantu. Ahantu bamanika ibigori haba ari ahantu hakonje cyane, ibigori byazamara kuma bakabimanura bakajya kubihura. Ibigori biba ari byiza cyane nabyo abantu babikunda bagira ubuzima bwiza.

Ibigori ni igihingwa cyiza cyane abantu baragikunda, kuko gifasha mj kubona igikoma cy'abana, rero ibigori iyo umuntu agiye kubihinga, barabyinika bikabanza bikamera.

Inzuzi ni imbuto ziva mu bihaza by'amarenzi cyangwa tororo. Izi nzuzi abantu bazirya bakagira ubuzima bwiza ku bwa agafu kazo bakavanga mu tuboga n'utuvuta ukumva turaryoshye. Abantu barya rero izi mboga zirimo ifu y'inzuzi bumvaga ziryoshye cyane.

Amajeri ni igihingwa cyiza cyane, abantu barayakunda. Amajeri ni meza cyane kuyateka mu birarayi, cyangwa se kuyasoroma ukayajyana mu isoko. Agira amafaranga menshi kuko amajeri arahenda cyane bitewe n'uko adakunda kwera ahantu habonetse hose abantu barya amajeri rero barayakunda cyane.

Amajeri ni igihingwa cyiza cyane gikunzwe guhingwa ahantu mu misozi, umuntu wariye amajeri aba ameze neza cyane. Amajeri bakunda no kuyakoramo ifu bakayiminjira mu mboga zikaryoha, imboga zirimo ifu ya majeri arizo bita igihembe kandi amajeri atanga amafaranga cyane kuko akunze kuba ahenze.

Amasaka ni igihingwa cyiza cyane, gikundwa guhingwa n'abantu benshi batandukanye, bakayahinga bakoresheje inyongeramusaruro kugira ngo bazabone umusaruro uhagije, amasaka rero iyo amaze kwera barayaca, bakayarambika ahantu, yamara kunywa bakayahura, imyumba rero ni amasaka aba ari guterera ariko ataramara kuzamura umwumba ngo agire isaka.

Ibishyimbo ni igihingwa cyiza cyane abantu baragikunda. Abantu bakunda guhinga ibishyimbo rero iyo byeze barabihura bakabishyira ku ntara bakagosora, kugira ngo batandukanye imbuto n'umurama.

Imodoka zitwara ibintu ni nziza turazikunda cyane, kuko zijya gupakira nk'ahantu ibigori cyangwa se ibishyimbo, imyaka itandukanye zikazanira abantu bagahaha, abandi bakagurisha, abashonje bakabona icyo kurya, bavuye ku byo guhaha.

Ibigori ni byiza kubihinga biroroha, bikunzwe n'abantu benshi, kubiryamo tubiryamo impungure, tugatekaho umutsima, ndetse kandi ibigori ikindi kiza cyabyo kubihinga ntabwo biruhije, abaturage bose barabihinga, ni byiza cyane ibigori.

Ibishyimbo ni imbuto nziza cyane, abantu barazikunda kubera ko ziturerera abana. Kuva tukizihinga kugeza zeze, tukarya umushogoro, tukarya n'imitonore, ndetse kugeza tubisaruye. Amajeri n'ayo ni meza cyane turayakunda, afite umumaro munini cyane ku buzima bwacu.

Amajeri ni igihingwa cyiza cyane gikundwa n'abaturage, amajeri rero atanga amafaranga, amajeri iyo yeze kuyarya ari mabisi araryoha ndetse n'iyo yumye. Abantu benshi bakunda amajeri, kandi amajeri akunda kuba ahenze cyane.

Ubunyobwa ni igihingwa cyiza cyane, gikundwa n'abantu benshi batandukanye. Umuntu waririye ubunyobwa aba ameze neza. Ubunyobwa kubusya, ukabushyira mu isombe. Isombe irimo ubunyobwa iraryoha cyane. Ubunyobwa bukora isosi imeze neza. Kubuhekenya, umuntu wahekenye ubunyobwa agira ubwenge bwinshi cyane.

Umuceri ni igihingwa ngandurabuku, umuceri rero ubu ukunda guhingwa ahantu hari igishanga, iyo weze bawujyana mu nganda zikawutonora, abaturage bakawugura kandi umuceri ni mwiza uraryoha, abana barawukunda cyane.

Amasaka n'ingano ni ibihingwa ngandurarugo bifite umumaro cyane ku baturage, kubera y'uko amasaka iyo yeze bakuramo igikoma, abana bakanywa bagashigishashamo ikigage n'ubushyera, kandi ingano nazo ni nziza zitanga umutsima, bakazishyira no mu gikoma, abana bakanywa bakumva bafite ubuzima bwiza.

Ikawa ni igihingwa ngandurabukungu, zikunze kuboneka ahantu hake hashoboka kuko ikawa iyo zeze ukunda gusanga abagiye bazijyanye ku nganda kuzitonoza bagakuramo ibintu bitandukanye nk'icyayi cyo kunywa.

Amasaka ni imbuto nziza cyane. Ikundaguhingwa ahantu henshi hatandukanye . Umuntu wanyweye y'igikoma cy'amasaka rero aba ameze neza. Iyo barimo kuyagosora babakuramo inkumbi , amasakaka akajya ukwayo ,n'inkumbi ukwazo , biba ari byiza cyane. Amasaka rero ni meza ku buzima bwa muntu.

Ibishyimbo ni igihingwa cyiza gikundwa n'abantu bose, abantu bakunda guhinga ibishyimbo iyo biri kumera babona bishimishije, kandi ibishyimbo bitunga abana kuva bihinzwe kugeza.

Ibishyimbo ni byiza cyane ibishyimbo byera imiteja, yo kurya biba bikunzwe cyane, ibishyimbo rero bitanga umusaruro uhagije, ugakoresha inyongeramusaruro...

Amajyeri ni igihingwa cyiza cyane gikunzwe n'abantu benshi batandukanye. Aho usanga ingo nyinshi zihinga amajyeri. Amajyeri kuyateka mu birarayi rero araryoha, noneho wayateka mu gitoki bikaryoha kurushaho. Amajyeri atanga amafaranga abantu bayagurishije.

Ubunyobwa ni imbuto nziza cyane, zikunda kwerera mu butaka abantu barazikunda umuntu wariye ubunyobwa rero agira ubuzima bwiza, ubunyobwa kubuhekenya buraryoha cyane, ubunyobwa kubukoramo isosi nabwo bikaryoha cyane kandi ubunyobwa bwinjiza amafaranga cyane mu miryango, yabuhinze.

Ibishyimbo ni byiza cyane, abantu babihinga cyane cyane ibishyimbo by'icyana, biba ari byiza cyane biraryoha mu kubiteka birashya neza bigasonnyoka, kuburyo kubishyiramo imboga uba ubona ari byiza cyane biryoshye.

Ibishyimbo ni igihingwa cyiza cyane, gihingwaga ahantu hose. Ibishyimbo babikoresha babirya, bidutungira abana, ndetse urugo rurimo ibishyimbo rugaragara cyane ko ruteye imbere. Ibishyimbo rero ni imbuto nziza igaragaza ubukungu mu gihugu ndetse no mu rugo.

Inka ni amatungo meza cyane, akunzwe na buri wese, umuryango ufite inka, ni ikimenyetso cy'ubukungu, uwo muryango uba ukize. Inka bakazijyana mu rwuri rero zikajyana kurishya zamara kurishya bakazicyura inka zitanga amata, zigatanga inyama, n'amafaranga. Umuryango ufite inka uba ukize cyane.

Inka ni nziza cyane zitanga amata ku bantu bakunda amata. Rero ni byiza gukunda inka mukaziragira abantu banywa amata nabo bagomba kubona inka yarwaye bakayijyanira vetereneri. Veterineri ni umuntu wita ku matungo yahuye n'ingorane z'uburwayi. Rero veterineri nawe ni umuganga w'amatungo ni mwiza cyaneatuma inka zibona amata.

Amagi ni ingirakamaro ku buzima bwa muntu, yubaka umubiri, abantu barayakunda cyane kuko adufasha mu mibereho yacu ya buri munsi. Amagi rero abantu bayakunda mu kuyarya, tugakunda no korora inkoko, kuko zitanga amagi.

Ingurube ni itungo ryiza cyane, abantu bakunda korora, ingurube rero zitanga umusaruro mwinshi utandukanye, zitanga amafaranga, zigatanga n'inyama, ndetse zikunda no kuduha ifumbire Rero ingurube ni nziza cyane, dukunda kuzorora.

Ingurube ni itungo ryiza cyane kuryorora bisaba kurigaburira ibiheri no kuriha ibyo kurya bigatuma rikura neza, ingurube rero umuntu wazoroye nta bukene agira ahorana amafaranga, kurya akabenzi kararyoha cyane kandi no kurigurisha rigatanga amafaranga, rero iyo ryarwaye ukoresha abavuzi b'amatungo kugira ngo barikurikirane.

Ingurube ni amatungo meza cyane yororerwa mu rugo mu biraro, akagarurirwa ibiheri n'ibindi, nk'ibyatsi, iyo zirwaye rero zitabwaho n'umuvuzi wabigenewe, wagenewe kwita ku matungo.

Intama ni amatungo meza cyane akunzwe . Bakunda kuyazirikamo imirunga kugira ngo atabasha gucika nk'iyo bayajyanye ahantu mu isoko kuyagurisha cyangwa se bayajyanye kuyateza nk'inshinge, mu gihe abavuzi b'amatungo bagaragaje ikibazo kiri mu matungo.

Inka ni itungo ryiza cyane abantu benshi bakunda korora, ritanga amata, rigatanga inyama ndetse rigatanga n'ifumbire, rero inka abantu benshi barayikunda, bakunda kuyorora, iyo yarwaye bayishakira umuvuzi w'amatungo akayikurikirana kugira ngo yongere igi ubuzima bwiza.

Inka ni amatungo meza cyane akunda kororerwa mu rugo cyangwa akororerwa mu biraro, aho usanga buri nka ifite ikiraro cyayo bakayihereza ibyo kurya. Inka ni nziza rero zitanga umusaruro w'amata. Umwana wanyweye amata akura neza, zigatanga inyama ndetse n'ifumbire.

Ingurube ni ibitungo ryiza cyane ryororerwa mu kiraro. Ingurube rero zikunda kurya ibiryo byose bibonetse, zikarya n'ibyatsi. Zitanga amafaranga, zigatanga n'inyama. Kandi ingurube iyo yabwaguye usanga yaryamye ikonkereza ibyana byayo, yiryamiye. Ingurube rero, umuryango woroye ingurube uba ufite amafaranga kandi uba uteye imbere.

Ingurube ni itungo ryiza cyane, abantu bararikunda, rikunda gutanga umusaruro no kororwa neza, rigakura vuba ku buryo butaruhije, abantu borora ingurube, bakoresha ibiryo by'amatungo byagenewe gutanga umusaruro, ingurube iyo yabyaye rero, ibyara ibyana byinshi ikarambarara hamwe bikayonka uba ubona ari byiza cyane.

Ihene ni amatungo meza cyane yororwa mu rugo, akunda kugira inyama ziryoshye, ihene rero ni itungo rirya ibyatsi, rigufiya, umuryango woroye ihene iyo ugize ikibazo warigurisha ku buryo bworoshye, kuko amahene aba akunzwe cyane, ikindi ihene iyo zarwaye uzishakira umuganga w'amatungo, akazikurikirana kugira ngo zongere zigire ubuzima bwiza.

Inka ni itungo ryiza cyane ryororerwa mu ngo, umuryango ufite urugo rukize cyane kuko inka ni ikimenyetso cy' ubukungu, inka iyo zarwaye zitabwaho nk' abantu bakazishakira umuganga w' amatungo, akazivura ngo zisubirane ubuzima buzima.

Intama ni itungo ryiza cyane rigufi ryororerwa mu rugo abantu bararikunda, intama zirya ibyatsi ntabwo ziba zigoranye. Rero intama zitanga amafaranga mu rugo, zigatanga inyama, urugo rwazoroye ruba rumeze neza nta bukene bwinshi rugira, kandi iyo zarwaye bazishakira umuganga w'amatungo akazitaho.

Ingurube ni itungo ryiza cyane ryororwa mu rugo, iyo ryarwaye rero barishakira umuganga w'amatungo akaryitaho, akaritera inshinge, cyangwa se akarisiga umuti, bitewe n'ikibazo rifite, rigakira rikongera rikagira ubuzima bwiza.

Inkoko ni itungo rigufi cyane ariko abantu bararikunda barikundira ko ritanga umusaruro, ritanga amagi rigatanga n'inyama, abantu bakunda kurya inkoko rero usanga bafite ubuzima bwiza cyane.

Ubuvuzi bw'amatungo ni igihe inka ziba zarwaye, noneho bakazishakira umuganga, akaza kuzikurikirana kugira ngo zongere zigire ubuzima bwiza. Rero inka ni nziza, niyo mpamvu iyo zarwaye na zo haba hakenewe umuganga wo kuzikurikirana kugira ngo azivure.

Inka ni nziza cyane. Iyo yarinze bajya kuyibanguriza bakayishyira ahantu itabasha gutera amahane, ikimasa kikayituruka inyuma kugira ngo kibashe kuyurira neza idatera amahane. Inka rero ihaka amezi icyenda. Iyo amezi icyenda ashize, irabyara.

Inka ni itungo ryiza cyane ni ikimenyetso cy'ubukungu, umuryango woroye inka uba ufite ubukungu, uba ubayeho neza cyane, inka itanga amata ku bana, igatanga inyama, igatanga ifumbire, ndetse umuryango ufite inka uba ukize cyane, rero nk'iyo inka yarwaye, kuyivuza bayishakira umuganga w'amatungo akayikurikirana kugira ngo igire ubuzima bwiza.

Inyoni ni inyamaswa zo ku gasozi zitunzwe no kwihahira, zijya gushaka ibyo kurya mu mashyamba no mu misozi. Izi nyoni rero zikunda kona imyaka y'abaturage.

Inuma ni nziza cyane abantu barayikunda, aho igeze babona ireba neza, kandi inuma iraribwa ni ibyo kurya. Inuma zitanga amagi abantu bakayarya, kandi inuma barazorora, aho ziba zibereye mu cyari usanga zitonze

Inyamaswa zo ku gasozi ntabwo ari nziza zirya abantu, ariko nanone inyamaswa zo ku gasozi abantu barazikunda kuko zikurura abakerarugendo bakaza mu gihugu bazanyemo amafaranga. Amafaranga bazana afasha igihugu mu gutera imbere.

Ingangayibanga ni inyoni zikunda ahantu mu biti mu ishyamba, zikunda gusakuza mu gitondo no kona, cyane cyane ahantu hari amashaza izi nyoni zikunda kona.

Uruyongoyongo ni inyamaswa yo ku gasozi, zikunda kuba muri parike na hantu mu bishanga. Uruyongoyongo rero ni inyamaswa zitoragura ntabwo zonera abaturage, usanga zibereye ahantu ku gasozi nyine cyangwa se mu bishanga zirimo zigendagenda.

Inzovu ni inyamaswa zo ku gasozi, ariko zikunda kuba muri parike kuko zituma haza amadolari, aturuka ku bakerarugendo baje kuzisura mu ma pariki aho ziri.

Inturo cyangwa se injangwe ni inyamaswa yo ku gasozi ikunda kwihahira ibyo kurya, ikagenda igashaka nk'imbeba mu nzu z'abaturage, ikiba inkoko z'abaturage, abantu.

ikijwangajwanga ni inyoni iba ifite ibara ry'umuhondo ikunze kuba mu biti, ikagira icyari kinini. Iyo nyoni y'umuhondo rero ikunze kona cyane zikajya nko mu murima w'amasaka zikayarya.

Umutubu ni ibisimba bikunze kuba mu misozi no ku mazi mu bishanga, kigenda gisimbagurika urebye nabi cyagukuramo ijisho. Iki gisimba rero abantu baragitinya iyo bakibonye bakigendera kure, kuko baba batekerezako cyabatarukira mu maso.

Ingona yo mu mazi ni inyamaswa iba yarakuriye mu mazi. Iyi ni iyamaswa mbi cyane, ishobora kurya abantu cyangwa se ikarya n'inyamaswa zororerwa mu mazi, urugero nk'amafi. Iyi nyamaswa rero iyo ibonye umuntu imwica nabi cyane, kuko ibasha gukurura igicucu cye ikamurira mu mazi.

Ingagi ni inyamaswa nziza cyane, zikunzwe mu gihugu zizana amafaranga mu gihugu ,zitanga umusaruro uhagije mu gihugu .Abakerarugendo iyo bagiye kuzisura batanga amafaranga . Ingagi ni ubukungu bw'igihugu , ibyiza by'igihugu.

injangwe cyangwa se inturu n'igisimba kiba mu kinani gikunda kuza mu rugo, abaturage baracyanga, bitewe nuko iyo inturu cyangwa injangwe ije mu urugo hari imishwi y'inkoko irayitwara, haba hari udukwavu ikadutwara.